Abasore batandatu bambaye ibintu byitwa imikenyero mu kinyarwanda， akaba ari imyambaro gakondo igaragaza umuco nyarwanda，ikunda kwambarwa mu bukwe no mu bindi bintu bigiye bitandukanye ariko birimo umuco mu gihugu cy'u Rwanda.

Igikoresho nyarwanda cyangwa igikoresho gakondo cyifashishwaga mu gucuranga injyana gakondo kimwe' bita umuduri. Bagikoreshaga bashimisha abantu bacuranga kimwe twagereranya n'igikoresho cy'ikizungu bita gitari kabisa, gikoreshwa gikoreshwa nk'inanga.

Akabuwate cyangwa akabogisi, hamwe bashobora kuregerera umuriro hamwe bakunda kwita taransifoma, hamwe haba hari ikoraniro nyine ry'amatsinga aturutse ahantu hatandukanye atwara umuriro, ushobora kwifashisha ukupa cyangwa se ukupura amashanyarazi, ahantu ushaka.

Abantu barimo kuburanishwa. Biragaragara ko abantu barimo kuburanishwa baca imanza, baca imanza bimwe mu Rwanda bitaga gacaca. Aho bigaragara y'uko hari abahemutse n'abahemukiwe, bakaba barimo kubunga, babahereza ubutabera.

Icyambu, icyamba ahantu ibicuruzwa byururukira biturutse mu nyanja bivuye mu ibindi bihugu. Hamwe babisuzumira ko nta kibi kibiriri mo, bikishyura imisoro, ahenshi bakunda kwita ngo ni kuri gasutamo.

Indege ya sosiyete y'u Rwanda, itwara abagenzi ,yitwa Rwandeya akaba ari iy' igihugu c'u rwanda abantu barimo kuyishokamo byumvikana ko nyine bashoje urugendo bageze aho bari bagiye bakaba bari kugisohokamo.

Baro ikoreshwa mu mikino ngororamubiri, akenshi twita voreboro. Akaba ari baro yifashishwa mu gukina umukino ngororamubiri. Akaba ari baro iba itaremereye, ifite ibiro, ikaba iteretse ahantu mu kibuga nyine bakinira uwo mukino, hari ibintu by'umucanga mo.